Amakese aba arimo inzoga, intebe bicaraho, ameza baterekaho ikinyobwa, ikibuga baterekamo umutaka n'intebe abakiriya bicaraho, imodoka batwaramo abantu n'inzu...

Igitoki gikaranze neza kirimo inyanya kiratukuye, igitoki mu bigaragara kiryoheye amaso kandi nyine n'uwagishyira mu kanwa gisa n'ikiryoshye.

Icyayi cyitwa kofi, inzoga z'ubwoko butandukanye harimo amarikeri, ivaze bateramo indabo, ameza batarekaho ibintu, icyapa kigaragaza ko bacuruza inzoga zitwa sikolo.

Abantu baje muri hoteri bari kunywa, bari kurya, abandi baraganira, ni hoteri nziza, ifite intebe nziza, igaragara neza, abaseriveri n'abitabiriye n'abakiriya.

Tugeze ahantu bacururiza inzoga tuhasanga inzoga z'ubwoko butandukanye. Harimo inzoga z'amarikeli n'inzoga z'ibyuma. Hariho n'abantu babiri bahagaze bayobora abantu kujya mu bwiherero hagaragara nk'ahacururizwa iyi nzoga.

Iparato iriha ifiriti, igitungoru, urunyanya rubisi, n'ibintu bisa n'inyama z'amafi, biteretse ku meza, abantu bategereje kubirya.

Ikibuga kiriho amapave ariho indabo zimeze neza n'imibyare. Amategura asakaye inzu wagira ngo ni amashuri. Utumeza duteguwe neza n'udutebe buri meza n'agatebe akameza n'udutebe biteguye neza.

Inyama nyinshi zitunze ku duti twinshi dutandukanye, buri gati kariho inyama eshanu hari n'ahari inyama enye b'ahari eshatu ziteretse ku isahani y'umweru. Burushete aba ari inyama zitunze ku gati barazirya.

Amapave basasa imbere y'inyubako, amakaro basasa mu nzu no ku rubaraza rw'inzu, ibyapa bamanika ku nzu kugira ngo bimenyeshe abantu icyo izo nzu zikorerwamo.

Imifuka irimo ibintu bitandukanye， umutaka bacururizamo mitiyu， ibitenge bambara，amavuta y'ubuto bateka mu biryo，imashini badoderaho imyenda， umunzani bapimeraho.

Icyapa cyerekana ibyo Mboga Fashoni ikora, bagira imyenda yabagabo, amakote, amapantaro, amakabutura, inkweto, amatisheti n'amashati n'umuryango winzu bacururizamo.

Aha hari inzu ikorerwamo ibintu bitandukanye, umuntu mbere y'uko yinjira aramanza agakaraba intoki, kugira ngo birinde umwanda, umuntu iyo yinjiye hari intebe ahita yicaraho, hari n'abamwakira, aha bahita aho bakirira abakiriya.

Icyapa kigaragaza ko aha hantu bacuruza inzoga yitwa amusiteri. Hariho indabyo zimeze nk'ibiti, hariho n'inzu bakiriramo abakiriya.

Icyapa kigaragaza fideli gazi shopu, kigaragaza ko ahantu bantu basuka ndetse n'ibindi byapa bitandukanye. Icyapa kigaragaza kenkayori zamuka limitedi ni ibirango bigaragaza igihano abantu bakora.

Butike irimo ibintu bitandukanye, amazi bagura, amaji, amabiswi, n'utuntu tumanitse hejuru ku muryango, harimo udusume, utumushwari, umutaka bacururirizamo mitiyu, n'intebe bicaraho, na gaze batekaho.

Impeta z'amoko atandukanye. Arimo izo bambara basezeranye. Babwita mariyaje. Hakazabaho n'izo zitwa fiyansayi. Bambika umuntu bari kumuporopoza, amaherena bambika ku matwi....

Aha biragaragarako ari ahantu bakorera amagare bayamanitse ku rukiramende ,ntiwamenya niba bari gupima ibiro by'amagare ,ayandi barimo barashyiramo umwuka ,andi bari kuyakanika murakoze.

Ibitanda baryamaho, intebe bicaraho, amagare batwaraho abagenzi ,gaze bacanaho, botike iririmo imifuka y'umuceri n'iya kawunga ,n'ibindi bintu bitandukanye, umutaka bacuruzamo mitiyu, imodoka bagendaho na moto bagendaho.

Tunyarutse cyane dusanga hano hari puberi, uducupa wagira ngo ni utwo kwa muganga, ni utuntu tw'umweru intebe, umunzani ,aha hagaragara nk'aho bakirira abantu kwa muganga se, cyangwa ahandi hantu hatandukanye bakirira abantu.

Icyapa kigaragaza ibyo abantu bakora kwa Gisa, bacuruza icyayi, igikapu giteretse ku meza, umuntu wicaye ku ntebe, ibishushanyo by'uturago bishushanyije ku nzu, icyapa cya emutiyeni kigaragaza ko abantu bishyura kuri momopeyi.

Amazu aciyemo uduce dutandukanye, hariho icyapa kigaragazaga ko bacuruza gatanu, hariho n'ikindi cyapa kigaragaza ibyo bacuruza. Ni bare igiye iciyemo uduce harimo n'ibyumba, umuntu iyo ashaka kurara arakodesha aka...

Itara rimurika mu mwijima, igipapuro kiriho ibintu abantu bakora, hariho ikintu bakoresha bari gutera kashe, hariho ibitabo bandikagamo.

Intebe zubatse kinyarwanda, ibitanda biteretse hasi, icyapa kigaragaza icyo abantu bakora, inzu ikorerwamo ibintu runaka, inzu bari kubaka, urutoki ruvagamo ibito...

Icyapa kigaragaza uko isoko ryitwa, kiriho ibintu bicuruzwa muri iryo soko, ririho na nimero ku buryo uramutse ushaka kubavugisha wabahamagara.

Hano hari kontineri bacururizamo amayinite, inzu batangiramo serivisi, utuyira two kunyuramo ku bantu bashaka kujya ku bikonteri bicururizwamo amayinite, cyangwa kuri iyi nzu itangirwamo serivisi runaka.

Umutaka bacururizamo mitiyu ,ahantu bacururiza ifu, amaji, ubuki, n'ibindi bitandukanye, icyapa kigaragaza ibyo abantu bakora, murakoze.

Isoko ririmo bintu bitandukanye intebe zitwa sheze, tabureti, ameza, utuntu bashyiraho inkweto, igare ritwara abagenzi, ibase bogeramo, kuvuleri biyorosa, amashuka basasa n'ibindi.

Aha hari ibyapa bitandukanye by'amoko menshi; hariho ikigaragaza ko abantu bateka, bakira abageni babakorera buri kimwe: babakorera de kolasiyo, hakabaho n'ikindi cyapa gishushanyijeho umukobwa n'inzu yitwa itaje.

Ibiti bikikije inzu igipangu gikorotiriye inzu ivuriro abantu bajya kwivurizaho.

Butike irimo ibintu bitandukanye, ikintu kimeze nk'imodoka gifite amapine abiri atukura batwaramo inzoga, icyapa kigaragaza ibyo abantu bacuruza moto abantu bagendaho.

Imitako ifite amabara atandukanye hariho umweru, umutuku, umuhondo, icyatsi, hariho ibyo bambara ku kaboko, ntekerezako n'ibyo bambara mu ijosi biba bifite amoko atandukanye.

Aho bacururiza ibintu bitandukanye， hariho amaji y'ubwoko butandukanye，hariho isukari yitwa irovo， imifuka irimo ibintu bitandukanye， harimo imiceri n'utuwunga， n'andi masashi wagira ngo ari mu bikapu， hejuru hari udufuka bacuruza.

Amazu bacururizagamo, moto itwaraga abagenzi, umutaka bacururizagamo mitiyu, kanali bakoreshaga bari kureba filime.

Moto batwaraho abagenzi ,moto iziritseho imizigo, imodoka batwaramo abantu, umuhanda ugendamo ibinyabiziga, utu etajeri bashyiramo inkweto ,inkweto bambara, abantu bakora inkweto , ijire bambara bari gucuruza mitiyu ,n'inzu iri gukodeshwa ibihumbi cumi na bi....

Umuhanda unyuramo imodoka. Etaje yubakishije ibirahure . Imbere y'aho hari indabo n'akantu gasa n'umutuku. Ikikijwe senyenge n'ibindi biti bikikije.

Inzu ishushanyijeho eyateli, ubwo yacururizwagamo amayinite ya eyateli. Amagare bagendaho ibiti, bashigikiza inzu bari kuyubaka kugira ngo bazahirima. Insinga ziyobora umuriro. Ipoto iba iriho itara bacana iyo bwije.

Butike imbere yaho hari amapave. Butique irimo ibintu bitandukanye harihomo imikoropesho ,udufuka cyangwa udusashe ubona ko bari gukora n'ibintu runaka. Hariho umutaka utwikiriye ahantu bakorera amatelefone n'ibindi.

Ijage bashyiramo amazi ,igikombe kirimo umunyu ,agatambaro ko guhanaguza ibyombo, umugati ,agasorori karimo ibiryo ,telemosi irimo igikoma, umubirikira bashyira ku ijerekani kugira ngo babone uko basuka ibintu bijyemo neza ,icupa, byose biteretse ku meza.

Isoko ririmo amakabutura, imyenda yo kuraramo, amapantaro, ibiringiti byo kwiyorosa n'umucuruzi, urugi rwo gukinga ahantu bashyira imyenda.

Aha hagaragara arimantasiyo Umucyo, imbere hari abantu, imbere harimo indabo zajemo utuntu tw'utwatsi dukunze kwica indabyo, mu bigaragara hariho kanari, harasa neza buri wese yakwifuza kugeramo.

Ahantu babika amakaro bubakisha fondasiyo .Amatafari bukisha inzu . Moto batwaraho abagenzi ,kasike zirinda umutwe .Abantu batwara abagenzi .Bitwa abamotari ,urutoki ruvamo ibitoki byo kurya n'iby'imineke.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye amarido yo kumanika munzu, ibikapu byo guheka mu mugongo amasume yo kwihanaguza umuntu avuye koga, amasafuriya yo gutekamo n'ibindi bintu bitandukanye.

Icyapa kigaragaza ko abantu bakora amatelefoni, bagashyiraho n'utundi tuntu, ikindi cyapa kigaragaza ko, abantu bakorana n'ama Banki runaka, ikigega kijyagamo amazi, umuntu wunamye impande y'icyayi.

Inzu yitwa tage iteyemo indabo z'icyatsi, imodoka itwara abantu, urugo rukikije iyo tage, inyuma yaho hariho indabo zitukura.

Icyapa kigaragaza ko abantu bacuruza emutiyeni, indobo bacururizamo irangi, amajerekani abamo irangi, amabase bakarabiramo, udufuka bacuruza, ameza baterekaho ibintu runaka, n'imiryango myinshi bacururizamo. Ibyapa bigaragaza ko ari ahantu bakorera ibintu runaka.

Icyapa kigaragaza ko aha hantu ari mu Kinigi. Ipoto igaragaraho insinga. Etage barimo kubaka, Gare batwara abantu ndetse n'imizigo. Indabo ziteye aho imbere urutare .....inzu.

Ahantu bacuruza ibintu bitandukanye inzoga bita ibyuma , amarikeri, bacuruza amafanta n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, biriho n'utwuma bafunguza ibinyobwa.

Intebe bicaraho, kasike bambara bagiye kuri moto kugira ngo ibarindire umutwe ,moto igendaho abagenzi, inzu bacurizamo amapave ashashe imbere.

Ahantu urujya n'uruza rw'abantu bitabiriye isoko isoko ririmo bodaboda, ibitunguru, ibigori n'abanyonzi baje gupakira mu bigaragara izuba ryavuye Ari ryinshi kuko bitwikiriye imitaka.

Intebe y'urubaho bicaraho, intebe ya plastiki bicaraho, umutaka bacururizamo mitiyu, butike irimo gikapu, bayikoreramo amaterefoni, amapasi, amaketo,...

Isoko ririmo inyanya, ibitunguru, imbada bari gucururiza mu ndobo，imitaka bacururizamo mitiyu， n'abantu baje guhaha， ndetse n'abacuruzi baje gucuruza，batanditse ku mifuka.

Umuhanda unyurwamo imodoka n'abantu, icyapa kiriho ibintu bitandukanye byo kurya, kigaragaza ko giha karibu cyangwa kigaragaza aho ibintu bikorerwa, cyangwa giha karibu abakiriya.

Icyapa kigaragazako abantu bakora imisatsi, batera mekapu, bacuruza ibintu byo kwambara mu ijosi, bacuruza imyenda amasutiya n'amakariso, bakora amenyo ,bambara n'amataratara bayacuruza.

Icyapa cyanditseho dukunde kawa koperative Masasokofi ururabo ruri imbere y'igipangu inzu bacururizamo icyayi ipoto iriho imigozi y'amashanyarazi.

Inzu zubakishije ibyatsi bimenyerewe mu muco nyarwanda w'abantu bo hambere intebe yicaragaho abantu, ibiti bikikije iyo nzu.

Itara riteye mu ndabo bacana mu mwijima, amapave ari mo akayira kinjira mu nzu, intebe bicaraho, amategura basakaza, inzu ifite amadirishya n'inzugi, imbere ya ho hari pasiparumu n'utubuye tw'umweru na voka.

Avoka yeraramo avoka barya, inzu babamo n'inzu yubakishije ibyatsi, ni inzu ya kinyarwanda, zakundaga kubaho kera, ikibuga kirimo umucaca, gikikijwe n'indabyo n'ibindi biti, bitandukanye.

Imodoka itwara abagenzi, ibiti byitwa sipule biri imbere y'inzu, inzu bakiriramo abantu, amabuye yubatse hasi kugirango hase neza, umuntu uri kwifotoza wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru.

Hoteri bakiriragamo abantu, imodoka itwaraga abantu, icyapa cya henikeni, ishamba ririmo ibiti byinshi.

Icyatsi bita amashami bagikoreshaga ku munsi witwa amashami, bakakimanika mu nzu. Ikirere gisa n n' icyatsi n'umweru bivangavanze, hakazan' ikindi cyatsi gifite irindi bara, amabati y'umutuku asakaye n inzu.

...hasanga ahantu hameze neza hari umugezi, lavabo, amasabune ya bugenewe, akabati ko gushyiramo ibyombo, ese harasa neza hateguye neza. Murakoze.

Imifuka iteretse ku kintu kimeze nk'igitanda, baba banitseho ibigori, byumye by'amasaro bahunguye, hariho n'undi mufuka uriho ibishyimbo bisa n' umutuku.

Keke bakoresha mu birori bitandukanye ,mu birori byo kwizihiza ,isabukuru y'amavuko na birori by' abantu bashyingiwe, mu birori by'abantu bari kwizihiza imyaka runaka bamaze mu gikorwa cyabo isambusa ziba zirimo inyama, n'ibindi bitandukanye.

Fanta banywa nta alukoro ibamo, amaji y'ubwoko butandukanye, Sana Jinja y'abana, ibyo bintu byose biteretse mu makarito, amakarito ateretse mu ka etajeri cyangwa mu kabati bacururizamo.

Umuntu wikoreye umuzigo, umutaka bacururizamo mituyu, amagare atwara abagenzi, isoko bacururizamo.

Uruvangitirane rw'imbuto， harimo ipapayi， amaronji，amatunda， pome， imyembe iteretse ku ntara.

Umuntu ufite indobo mu kaboko, n'indi ku rutugu zirimo imbada bakoresha ingano, ihema riteretseho inkweto z'amoko atandukanye, bodaboda n'ubundi bwoko bw'inkweto, abantu bari mu isoko baje kugura abandi bagurisha.

Isoko ririmo udupariti dutandukanye, hariho uturiho imineke, ibihaza byitwa wotameroni, hariho ikarito ziteretsemo ibintu, hariho ipapayi n'ibindi byinshi bitandukanye.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye, bimwe biri mu ndobo harimo :gombo, imeteja, inyanya n'intoryi ziri mu ndobo ;hariho ibitunguru, puwavuro, ibihaza, imboga rwatsi n'urusenda.

Mu cyapa cyanditseho eyitiyemu, bigaragaza ko abantu bakoresha konte runaka, cyangwa se zaba zagize ikibazo bakazikosora. Hariho abantu bahagaze, bagiye gushaka serivisi z'ibibazo bafite.

Isoko ririmo amasahani ya parasitike, ibikombe bya parasitike, amasahani y'amadongo, amasafuriya, ibisuperi, n'ibindi bintu bitandukanye.

Imyenda y'amoko atandukanye, irimo; amapantaro, imipira, amashati, biri mu isoko babitanditse, bari kubicuruza.

Isoko bacuruzagamo ibicuruzwa bitandukanye, imineke imyembe, ibihaza bita wotameloni, ibinyomoro ,amaronji, n'abacuruzi bicaye barindiriye abakiriya.

Isoko ririmo abaguzi n'abagurisha, indobo bacuruzaga, amabase bari gucuruza, etaje bari gucururizamo imashini idoda imyenda.

Imashini bakoresha bari kudoda imyenda. Metero bakoresha bari gupima abantu baje kudodesha kugira ngo bazabadodere imyenda ibakwiriye. Abadozi badoda iyo myenda. Isaha bareberaho igihe. Ibitambaro badodamo imyenda.

Isoko ririmo abacuruzi bicaye ku mifuka bafite inyanya, ibitunguru, intoryi, karoti, ibishangi bakoresha bashyigikira inyanya kugira ngo zitangirika abakozi.

Imbuto z'ubwoko butandukanye harimo: tangawizi, indimu zivura inkorora, ibitunguru bateka mu biryo, intoryi na pavuro ndetse n'urusenda ruryoshya ibiryo.

Igare batwaraho abagenzi， imiryango bacururizamo ibirayi，ibirayi biri mu gitanda cyabyo，tabureti bicaraho， n'indi ntebe ya purasitiki bicaraho，abantu bari gutambuka.

Amagare atwara abagenzi. Umuhanda ugendamo ibinyabiziga n'abantu. Icyapa kiba ku muhanda. Inzu yitwa etage ihagaze ku muhanda. Umutaka bucuruzamo mutiyu.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye imyenda y'abana, imyenda y'abakuru, inkweto, abaguzi n'abagurisha n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bigaragara murakoze.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye :Harimo pavuro ,sereri ,ibitunguru, karoti n'abacuruzi n'ababicuruza babyicaye imbere.

Isoko bita Kariyeri, ibihaza bita wotameroni, inanasi baje gucururiza mu isoko, abacuruzi bari mu isoko.

Urujya n'uruza rw'abantu baje mu isoko. Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye: inyanya, intoryi tungurusumu n'abacuruzi bari gucuruza ibyo bicuruzwa.

Inkweto zitwa bodaboda bari kuzicuruza baziteretse ku ihema zirimo amabara atandukanye. Umucuruzi ari gucuruza inkweto abandi bantu barahagaze abandi bari kugenda hari na kamambiri z'umutuku n'iz'uburu bambara bagiye koga.